Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, yambaye impuzankano ye y'amabara y'icyatsi ndetse n'umweru ari mu gahanda k'amabuye, akaba ari kwerekeza ku ishuri aho yiga.

Umubyeyi w'umupapa ndetse n'umumama bari kumwe n'abana babo babiri, bari kubereka amasomo. Imbere yabo hari amakaye abiri ndetse n'indi bafite mu ntoki.

Umugabo w'umunyabugeni, wambaye agapfukamunwa ndetse ufite n'ibisuko, ari gushushanya agashushanyo kifashishwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo baguke ndetse batekereze neza.

Abana bari ku byicungo, ni abana biga mu mashuri y'incuke, ubona ko bishimiye ibyicungo barimo, aho biba biri kubazunguza, bibajyana hirya, bibagarura bibagarura hino.

Mu mashuri y'incuke hari udushushanyo tw'abana dushushanyije, abana bari gukina udukino dutandukanye, hari n'umuntu ukuze wambaye ishati y'umweru, ndetse n'igitenge cy'umutuku uri kuvuza umwirongi.

Aha turahabona amashusho y'utunnyamaswa dutandukanye, aho twifashishwa mu mashuri y'abana b'incuke, tukabafasha gutekereza ndetse no kumenya inyamaswa zigiye zitandukanye.

Ishuri ryigaho abana b'inshuke rya Nyagatare risakaje amabati y'ubururu. Imbere yaryo hari utwana twambaye impuzankano twaje kwiga. Kuri iryo shuri hakaba handitseho ngo Nyagatare Modern School.

Abana bo mu mashuri y'inshuke bari mu byuma byabo bakoresha bari kurya iminyenga, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara rigaragara yuko ari umwarimu wabo.

Ishuri ry'abana b'inshuke. Kuri iryo shuri hashushanyijeho umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara na karuvati ndetse n'akanyamaswa kitwa injangwe.

Udushusho dutandukanye turimo utw'inyamaswa ndetse n'ibiti, akaba ari udushusho twifashishwa higishwa abana bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo bamenye ndetse batekereze neza.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri ya pirimeri aho byifashishwa bari kwiga isomo ry'imibare, ibikoresho birimo amarate yo mu bwoko butandukanye aya mpande eshatu ndetse na mpande enye.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa mu isomo ry'imibare tukaba twifashishwa n'abana biga muri pirimeri, utwo dukoresho turimo amarati, amagome, amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi.

Udutabo tubiri dushushanyijeho abana b'abanyeshuri, biga mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano barimo kwiga, twanditseho ngo ubugeni n'umuco, amashuri y'inshuke mu Rwanda.

Abayobozi batandukanye bambaye udupfukamunwa barimo n'umusirikare wambaye impuzankano, bari imbere y'inyubako aho bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni ku ishuri rya pirimeri, ishuri ryubatse neza ndetse imbere yaryo hari ibyicungo abana bakoresha, ni ishuri risize ibara ry'umuhondo.

Udukoresho twinshi dutandukanye turimo amarate, amakaramu, kompa, buwate ni udukoresho twifashishwa mu mashuri ya pirimeri bari kwiga imibare.

Udukoresho twifashishwa n'abana bo muri pirimeri bari kwiga imibare, ni udukoresho turimo amarate, amakaramu ndetse n'ibindi.

Ibitabo byinshi birundanyije ku meza, birimo iby'Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza bikoreshwa mu myaka itandukanye nko: mu wa mbere, mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu.

Ishusho iriho abana biga muri primaire, bambaye impuzankano zabo, bari mu mirimo itandukanye y'isuku, aho barimo baratoragura imyanda bayipakira mu ndobo bayijugunya muri puberi.

Inyubako ya leta y'ishuri ryiza rya primary rigezweho , rya etage rifite imiryango hasi ndetse no hejuru, iri shuri rikaba ryitwa wisdom school nkuko byanditse hejuru yaryo.

Ishuri rya pirimeri rifite amashuri yubatse neza ari ku murongo asakaje amabati y'umweru, imbere yaryo hari ikibuga cya basiketi.

Aha ni mu isomero. Aho ibitabo byose by'amoko atandukanye biba birundanyije. Hanyuma ukajyamo ugatoranyamo icyo ushaka, mu gihe ushaka kugisoma.

Ni ku kigo cy'ishuri cya pirimeri, abanyeshuri bicaye mu mbuga, barikumva ibyo abarimu babo bari kubaganiriza, bateze amatwi bitonze kandi bambaye n'impuzankano zabo.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano zabo, harimo umwe w'umukobwa ufite ikaramu mu ntoki n'agapapuro ari kwandika ibitekerezo bya bagenzi be.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano ndetse n'udupfuka tw'umweru bose buri wese afite imashini imbere ye ndetse n'agacupa k'amazi bakaba bari kwiga ICT.

Ni ku kigo cy'ishuri cya segonderi, abanyeshuri bambaye impuzankano, bari ku murongo, imbere yabo hari umwarimukazi uri gutambuka ndetse hari n'uruziga rugizwe n'indabyo.

Ikigo cya segonderi gifite amashuri meza yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje amabati y'icyatsi, imbere yayo hari abanyeshuri bambaye impuzankano.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano zabo zisa, bicaye ku dutebe bakurikiye umunyeshuri mugenzi wabo uri imbere yabo uri kubabwira, ndetse imbere yabo hicaye na mwarimu afite ikaramu n'ikayi ari kwandika ibiri kuhabera.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bambaye amajire bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ngo Adiminisitirashani buroke.

Abanyeshuri benshi biga muri segonderi bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano zabo, bakurikiye ikiganiro kiri gutangwa n'umuntu w'umugabo uhagaze imbere yabo.

Ni mu ishuri rya segondari, harimo udutebe dufite amabara y'icyatsi, harimo ameza afite ibara ry'umuhondo, hariho kandi amalaputopu ateretse hejuru y'ameza.

Iki ni ikigo cya Gs. Nyagatare aha ni ku marembo akuganisha mu kigo cyaho. Hejuru y'amarembo handitseho amagambo avuga ngo welikamu tu ji esi Nyagatare, hariho n'idarapo ry'u Rwanda.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano ziganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bambaye na karuvati, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, bari hamwe barishimye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano zabo, ziganjemo amabara y'umukara, ndetse n'ubururu, bari ku murongo, aho bari kwerekeza ahantu hagiye kubera inama.

Abanyeshuri benshi biganjemo abakobwa n'abahungu, ni abanyeshuri biga muri segondeiri bambaye impuzankano z'amabara y'umweru, umukara, ndetse na kake, bahagaze ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano zabo zirimo ibara ry'umweru ndetse bicaye mu ishuri, bose bafite amakaye imbere yabo bari kwandika ibyo bari kwigishwa na mwarimu.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano z'umweru, imbere yabo hari umwana w'umunyeshuri w'umuhungu wambaye umupira ufite ikaramu uri kwandika ku gapapuro.

Inyubako igezweho, ni ishuri rya segonderi ryubakishije amatafari ahiye, ndetse risakaje amabati y'umweru, inyuma yaryo hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu biga muri segonderi, bambaye impuzankano z'umweru, bishimiye y'uko bahawe igihembo cy'ishimwe ndetse bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ishuri rigezweho rya etaje rifite imiryango hasi ndetse no hejuru, ni ishuri rya segonderi ryubakishije amatafari ahiye, risakaje amabati y'ubururu, imbere yaryo hari n'ikigega gifata amazi.

Umugore wirabura usa nk'ukuze ufite ibisuko ndetse n'amaherena, yambaye agashati kiganjemo ibara ry'umweru, ahagaze ahantu asa nk'uwumiwe ushaka kugira icyo avuga.

Abantu biganjemo igitsina gabo bambaye amajire y'amabara agiye atandukanye bari mu ishuri aho bari guhugurwa mu bintu runaka, imbere yabo hari umugabo uri kubereka uko ibintu bigenda bikorwa wambaye kasike y'umweru.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano z'amabara y'umutuku ndetse n'umweru n'inkweto z'umukara amasogisi y'umweru, bari kugenda mu muhanda aho bafite ibikapu bigaragara y'uko basoje ishuri bagiye mu biruhuko.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano ziganjemo amabara y'umweru n'umukara, bamwe baricaye bari gukoma amashyi, abandi barahagaze hagati yabo harimo umukobwa wambaye agapira k'umutuku w'umuzungu, nawe ari gukoma amashyi.

Abanyeshuri bo muri segonderi bicaye mu ishuri ku ntebe zabo, bambaye impuzankano bari gufata note ndetse bakurikiye mwarimu ari kubabwira ibyo bandika.

Abagore babiri bari imbere bambaye amajile, inyuma yabo hari abandi bagabo bambaye amajile ,ndetse n'umwe utambaye ijile wambaye ingofero y'umukara ,amarineti y'umukara, ndetse n'agapira k'umweru.

Abanyeshuri benshi ba segonderi basoje amasomo yabo, bateraniye ahantu aho baje gukora urugerero ariko bakaba barusoje, bambaye imipira yabo isa igaragaza abantu basoje urugerero, bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere yabo hari abayobozi babo barimo n'abasirikare.

Abanyeshuri ba kaminuza biganjemo abasore n'inkumi, bari ahantu hamwe ubona y'uko bari kugana ku ishuri aho bagiye gukurikirana amasomo yabo.

Ni mu ishuri hari ibibaho bibiri by'imyeru byifashishwa mu kwandikaho amasomo, hari imeza iriho ikayi y'umweru irambuye.

Abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza bambaye impuzankano ndetse bafite Ibisuko ku mutwe, imbere yabo hari umukobwa wicaye ufite telefone bose bayirangariyemo.

Abasore n'inkumi baje mu mahugurwa bari kureba imbere barakurikiye kuri porojegiteri aho imbere yabo hari uri kubahugura ufite mudasobwa ku meza ndetse n'agacupa k'amazi ya Nile.

Abanyeshuri bo muri kaminuza biganjemo abasore bicaye mu ishuri buri wese afite raputopu imbere ye aho bari kwiga ibintu bitandukanye ndetse ubona yuko bakurikiye ibyo barimo.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye ku dutebe dusa icyatsi. Buri wese afite urupapuro n'ikaramu imbere ye, bari kugenda bandika ibyo bari kubwirwa mu buryo bwo kugira ngo batabyibagirwa.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bicaye mu ishuri barakurikiye ibyo mwarimu ari kwigisha, bafite udukayi n'udukaramu, bari kugenda bandika, ibyo mwarimu wabo ari kubabwira.

Abantu biganjemo abasore n'inkumi, akaba ari abanyeshuri bo muri kaminuza, bicaye mu ishuri aho bari gukurikira ibyo mwarimu ari kwigisha, bamwe bafite amamashini imbere yabo, bari gukurikira isomo ubona yuko bashyizeho umwete.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bateraniye ahantu, aho baje mu nama, bakaba bakurikiye neza, imbere hakaba hari umuntu uri kubahugura.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse no mu mashuri y'imyuga, baje kwitegereza ubuhanga bw'umugabo, aho yakoze masike iri mu ishusho ry'umutwe w'inka.

Urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye amahugurwa bicaye mu dutebe, ndetse buri wese afite akantu ko kwandikaho, imbere ye bakurikiye neza imbere bameze nk'abantu bari gukora ikizamini.